Abasore basohokeye mu kabari, bagiye gufata icyo kunywa barishimye cyane, barimo kuganira banezerewe.

Iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho dusangamo amaterefone ngendanwa, amapasi, amatereviziyo, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga dukenera muzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, aho ibikoresho byaho cyangwa se ibicuruzwa byaho biba bitondetse ku murongo, harimo imiceri ndetse n'amavuta atandukanye, n'ibindi bikoresho dukenera byo mu rugo.

Umugore wikoreye indimu na kokombure ucururiza mu mugi ari kugenda ashaka abakiriya, kugirango arebe uwamugurira.

Iduka ricuruza amagare abantu bifashisha muri siporo, bifashisha mu ngendo zitandukanye,..

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa kiranga ibintu bacuruza na serivisi batanga, harimo gucuruza ibikapu, igodora, inkweto z'abagore n'ibindi bikoresho na serivisi z'irembo n'iza banki.

Inzu z'ubucuruzi bacururizamo za gaze n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, aho gaze tuzifashisha mu guteka ibiryo zikabikora vuba vuba.

Umugi urimo ubucuruzi butandukanye ,harimo ibikorwaremezo bitandukanye ,birimo amashanyarazi ndetse n'imihanda.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye: harimo imiceri, harimo amakaye, harimo insenda, harimo umunyu ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi, aho bacuruza imyenda itandukanye, iy'abagabo, iy'abagore, ndetse n'iyo bifashisha mu kwamamaza, bakayishyira hanze kugira ngo abaguzi bayibone.

Inzu ikorerwamo umurimo w'ubudozi, ndetse ufite icyapa kiranga imirimo bakora, bafite n'imyambaro ku muryango igaragaza ubwoko bw'imyenda badoda.

Umujyi urimo uruhurirane rw'abantu ndetse n'ibikorwa bitandukanye, ndetse n'ibyapa bitwereka agace runaka.

Inzu y'ubucuruzi bw'inzoga zipfundikiye, aho abantu bashaka kurangura izo nzoga bazikura ndetse ikaba ifite nimero ya telefone ushobora kubasangaho mu gihe usanze badahari.

Agasoko, karimo ibikoresho bitandukanye ndetse harimo n'imyenda nk'amasogisi ndetse n'indi myenda itandukanye.

Isoko ry'imyenda n' inkweto, aho umugabo yicaye imbere y'iduka rye ari gucuruza inkweto.

Isoko ry'ibiribwa, aho higanjemo imbuto, imyembe, amaronji ndetse n'izindi mbuto zitandukanye zituma twiteza imbere, zigatuma tugira ubuzima bwiza mu gihe twazikoresheje.

Imbuto zitandukanye harimo amapapayi, amaronji, ibinyomoro. Ibinyomoro byongera amaraso, ndetse imbuto muri rusange zikadufasha mu kurinda indwara umubiri wacu.

Imibavu itandukanye, aho tuyifashisha mu gushaka impumuro nziza, ndetse n'amavuta y'ubwoko butandukanye abantu dukoresha twisiga, kugirango uruhu rwacu ruse neza.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo imboga z'ubwoko bwa epinari, abantu dukunda kwifashisha, mu gutegura amafunguro akungahaye ku ntungamubiri zirimo ibirinda indwara.

isoko ry'ibiribwa ndetse n'ibikoresho bitandukanye, twifashisha mu rugo .Aho tuhasanga ibiribwa twifashisha mu gutegura amafunguro ndetse n'ibindi bikoresho: nk'iby'isuku ndetse n'ibyo kudufasha gutegura ayo mafunguro.